Agatambaro dukoresha cyane cyane twagize imvune; igihe urugingo runaka rwagize ikibazo rukikanga cyangwa rukaba ruvunika; gashobora no gukoreshwa nk'ubufasha bw'ibanze; aho ugahambira ku rugingo rwagize ikibazo bityo bikadufasha kugira